Urugo mbonezamikurire rw'abana batoya. Ni rwiza cyane kuko rufasha abana kunguka ubumenyi butandukanye, babona n'ibyo kurya bitandukanye, bityo bagakura neza mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Umubyeyi aragaburira abana ku rugo mbonezamikurire rw'abana. Ni ngombwa ko abana ku rugo mbonezamikurire bahabwa amafunguro kugira ngo abashe kubatunga aho bari, maze bakure neza.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bari kunywa igikoma cya mu gitondo, aba bana bakunda kwiga kuko kwiga ari ingirakamaro kandi bifasha abantu batari bake kwiyukurura.

Abana mu ngo mbonezamikurire. Ni ingenzi cyane ko abana bahurira mu ngo mbonezamikurire maze bakabaho neza, biga bakazamura ubwenge n'ubushobozi bwabo. Ikindi kandi bibafasha kubaho neza kuko bahahurira n'intungamubiri zitandukanye.

Abana iyo bari ku ishuri bahahurira n'ibikorwa bitandukanye, birimo gufata amasomo atandukanye, ariko kandi bagira n'umwanya wo kwidagadura no gukina, bikabafasha kuzamura ubwenge n'ubumenyi bwabo.

Ahantu abanyeshuri bigira hatandukanye, ni ingenzi ko haba hari ibikorwa bitandukanye nk'ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibimera bitandukanye, bityo ni ingenzi kubera ko bifasha abana gukora neza.

Abana biga mu amashuri abanza kenshi usanga bahora bishimye kubera ko baba bahawe ibyo bakeneye byose kugira ngo amasomo yabo abashe kugenda neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, binjiye mu nzu bigaragara ko bari kureba ibikoresho, baguriwe n'ababyeyi babo kugira ngo bakomeze gukora neza.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'umutuku, ubururu ndetse na kaki bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Igiti kinini kiri ahantu mu kigo cy'amashuri, ubona hari abantu benshi cyane, baje kwizihiza intsinzi zigiye zitandukanye, kandi aha hantu ni heza.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikingishije inzugi z'ibiti. Iyi nyubako biragaragara ko ari inzu z'ubwiherero.

Ibishushanyo bitandukanye by'ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu mirimo itandukanye nk'intebe, imbaho n'ibindi. Bituma abantu rero bagira ubwenge n'ubumenyi bityo bakiteza imbere.

Ku kibaho haragaragaraho imibare myinshi itandukanye. Ni ngombwa ko iyo abana biga, babasha kureba ibyo bigishwa ku kibaho maze umwarimu na we agatanga ubusobanuro buboneye bityo uburezi bukagenda neza.

Ikigo cy'amashuri kiriho abana bambaye impuzankano itukura, icyo kigo kiri ahantu ku muhanda, ubona ko abo bana barimo gukina bishimye.

Icyumba kirimo intebe z'abanyeshuri nyinshi, harimo n'abana bato ubona ko bari kwiga. Iki cyumba ni kigari cyane ugereranyije n'uko ibindi byumba bingana.

Abanyeshuri benshi bavuye kwiga nko mu mashuri abanza, abo banyeshuri biragaragara ko bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kaki akaba ari abo ku kigo runaka.

Ahantu abantu bigira ni ingenzi cyane kubera ko bifasha kuzamura ubwenge n'ubumenyi bwabo maze abana bakagira umuhate n'umurava wo kwiga bityo bakazabaho neza mu gihe kizaza.

Abana batandukanye barakina imikino itandukanye, ni byiza ko abana bahurira hamwe nyuma yo gufata amasomo atandukanye, bagakina imikino itandukanye ibafasha kumererwa neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kurera abana neza. Niyo umubyeyi cyangwa abarezi batanga inyigisho ni ngombwa kwifashisha ibikoresho nk'amasaha, amarati n'ibindi kugira ngo abana bumve neza ibyo bigishwa.

Ahantu hatandukanye higirwa n'abanyeshuri usanga hari ibikoni, ni ngombwa ko bahatekera kugira ngo abana babone ibibatunga, iyo abana barira ku ishuri bibafasha kubona ubumenyi neza maze bakiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri abanza cyigaho abana bato, iki kigo kandi biragaragara ko cyubakishije amatafari ahiye kubera ko gikeneye kuvugururwa.

Ndi umunyarwanda isano ihuza abanyarwanda, batewe ishema no kuba abanyarwanda. Bahuriye mu gukunda igihugu, kurinda no kuruteza imbere. Ibi kandi biri mu mabara atandukanye y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abanyeshuri biga amashuri abanza barimo gukina, akenshi iyo abana bakina usanga baba baguwe neza kandi bishimye, bityo bigatuma imibiri yabo ikomeza kandi neza.

Abana biga mu mashuri abanza bavuye ku ishuri, bategereje ko nyuma saa sita bigera bagasubirayo, kandi bakunguka ubumenyi.

Icyumba cy'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, kirimo inyuguti z'ibanze umuntu aheraho kugira ngo azamenye gusoma kandi azamenye kwiga neza.

Mu mashuri abanza ukunze gusanga hari intebe zikomeye, kubera ko abana bazigiraho batazikubaganya ngo zipfe, bigatuma zihora zihari kandi zikomeye.

Ahantu abanyeshuri bigira. Ni ingenzi cyane ko abanyeshuri biga maze bakoresheje imfashanyigisho zitandukanye kuko usanga ari byo bibafasha kwiga neza mu buryo buboroheye kandi n'ubumenyi bahabwa bakazabukoresha neza.

Ahantu abantu bari usanga hari ubwiherero, ni inzu usanga abantu benshi bakunda kubera ko zibafasha gukemura ibibazo bitandukanye baba bafite, iyo baje bafashe ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bibafasha kutaribangamirwa.

Ishuri ririmo abana biga mu mashuri abanza, bigaragara ko bambaye inifomo, abanyeshuri mu madirishya y'ishuri bigamo ni ay'ibiti.

Abanyeshuri bavuye kuzana ibyo kurya kugira ngo bakomeze amasomo yabo nyuma ya saa sita. Kenshi usanga abanyeshuri baba bazi ubwenge kuko babona ibyo bagenerwa byose kandi ku gihe.

Inyubako nyinshi zikunze kuba zisize irangi ry'umweru n'umuhondo, ikindi kandi zikaba zisakaje amabati, niyo mpamvu umuntu iyo ashaka kubaka yegera abatekinisiye bakamufasha.

Ikibaho aho abana bakoresha biga ni ingenzi cyane kugira ikibaho ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu burezi, kuko bituma abantu bagira ubwenge n'ubumenyi bityo bikorohereza abantu kunguka ubumenyi.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano ya kake. Aba bana biragaragara ko bari gukora udukino tw'abana.

Igikoresho cyifashishwa mu kuvoma amazi akoreshwa mu isuku, iyo abanyeshuri bakeneye gukora ibikoresho bitandukanye nko gufura gusukura mu ishuri n'ibindi bakoresha ibikoresho bitandukanye bityo bakabaho neza.

Ikigo cy'amashuri kirimo abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'ubururu ndetse na kacye. Icyumba kirimo ikibaho cyiza cy'umukara kandi hubakishije amatafari ahiye.

Umuhanda w'igitaka, bigaragara ko ucamo imodoka z'amoko agiye atandukanye, haba izitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'izitwara abantu mu buryo bwihariye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iteyeho ikirango kigaragaza abantu barwaye umutwe, umugongo ndetse n'izindi ndwara.

Icyumba kirimo intebe ndetse n'ibitabo bitandukanye. Bigaragara ko ibyo bitabo ari byo abana biga mu mashuri abanza. Iki cyumba kirimo imbaho nyinshi ndetse n'ibindi bikoresho.

Abanyeshuri bariga amasomo yabo, ni ngombwa ko abanyeshuri iyo biga, bibafasha kubaho neza no kuzahura ubwenge bwabo. Bityo ubumenyi bwabo bugatera imbere, maze bakabaho neza kandi vuba.

Abanyeshuri barahabwa ibiganiro bitandukanye. Ni ngombwa ko abanyeshuri bahurizwa hamwe, maze bagahabwa amakuru ku bintu runaka bibateganyirijwe. Iyo bikunze bazamura ubwenge bwabo ndetse bagatera imbere.

Imodoka zitwara abanyeshuri, ni ingenzi cyane kuko abanyeshuri bakenera gukora ingendo zitandukanye, ziva cyangwa zijya ahantu hatandukanye, haba ingendoshuri n'ibindi bikorwa bitandukanye byo kongera ubumenyi.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru n'umukara, bigaragara ko bari mu bijyanye n'amasomo. Hari utubati turimo ibitabo abanyeshuri basoma kugira ngo biyungure ubumenyi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, aho hari inyubako igeretse gatatu, ubona ko ari nziza.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, ubona ko kiri ahantu heza hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, hirya hari ishyamba ryinshi cyane ritoshye.

Abana biga mu mashuri abanza bicaye imbere y'ameza bari gufata amafunguro. Hahagaze umuyobozi wabo agenda areba uko bafata amafunguro.

Abanyeshuri batandukanye bari hamwe, bariga uburyo butandukanye bwo kubaho ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Ni ingenzi ko abanyeshuri bicara hamwe, bagahabwa inama n'inyigisho ku bikorwa runaka, bibafasha kuzamura ubwenge bwabo.

Ku kigo cy'amashuri yisumbuye usanga abana baho bambara impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, akaba ariyo mpamvu baba bakeye kandi basa neza maze bakurikirana n'amasomo yabo.

Ikibaho ni ahantu usanga abanyeshuri n'abarimu bakoresha bahabwa amasomo ndetse kandi batanga n'amasomo. Ni ingenzi cyane kubera ko bifasha mu gutuma abana bagira ubumenyi buhanitse.

Abanyeshuri batandukanye baricaye, barahabwa inama n'abandi babihuguriwe. ni ngombwa ko abanyeshuri, bahabwa ubumenyi butandukanye n'abandi kugira ngo nabo bongere ibyo bazi, bityo bizabateze imbere.

Ahantu hatandukanye higirwa abana n'abanyeshuri. Ni ngombwa cyane ko abanyeshuri bagana ishuri kuko bibafasha kuzahura ubwenge n'ubumenyi bwabo. Bikazamura imitekerereze ndetse bikongera imibanire yabo n'abandi.

Inyubako nini y'ikigo cya Nyanza, ubona ko yigaho abanyeshuri bafite imodoka nziza, bakaba baje kubareba kugira ngo babajyane mu rugo.

Abana baricaye, barahabwa inyigisho zerekeye ibikorwa bitandukanye. Iyo abana bicaye hamwe maze bakigishwa ndetse bagahabwa amakuru ku bintu runaka, bibafasha kuzamura ubwenge bwabo bityo bakabaho neza.

Abanyeshuri batandukanye bafite ibikapu byabo n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ishuri, barava ku ishuri cyangwa bakajya ku ishuri. Ni ingenzi cyane kubera ko usanga bafite ibikoresho maze bagakenera aho babitwara.

Icyumba kirimo abanyeshuri bo muri kaminuza, barimo kwiga. Icyo cyumba kirimo za mudasobwa nyinshi, bigaragara ko bazikoresha mu gihe bari mu bintu bijyanye n'amasomo.

Inyubako nini cyane isakaje amabati y'ubururu. Iyo nyubako biragaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye kandi hari umuhanda w'amapave ugenda ukagera kuri iyo nyubako.

Inyubako nyinshi zikunze kuba ziteye irangi ry'umuhondo n'umweru. Akaba ari yo mpamvu abantu bakunze kubaka inzu nziza.

Abanyeshuri bari gukina umupira, bigaragara ko bambaye imyenda y'umweru n'umukara n'inkweto za siporo. Bakaba bari mu marushanwa, rero bari gukina n'izindi kipe.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, barishimye barimo guseka. Niyo mpamvu ubona bambaye imyenda y'imyeru, umuhondo ndetse n'umukara. Bigaragara ko bari mu nama.

Ikigo cy'amashuri cya secondaire, aho usanga abarimu batanga akazi mbere yuko bajya mu kandi, akaba ariyo mpamvu bahora bashishikariza abantu gukora cyane, kugira ngo bazabeho neza.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura n'ubururu, hagati muri icyo kigo harimo ibyatsi byinshi kandi ni ahantu heza hagakwiye kwakira abayobozi bo mu nzego zikomeye.

Abanyeshuri mu bikorwa bitandukanye bagira harimo n'iby'imyidagaduro, bibafasha kuruhura mu mutwe. Umukino w'amaboko, ni imwe mu mikino ifasha abanyeshuri kuruhura mu umutwe no gukora ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro.

Ikigo cy'amashuri aho abana n'abarezi bajya, maze abana bakiga, bakamenya. Hari kandi n'ibiti bitandukanye bizana umwuka mwiza aho abana bigira. Ni ingenzi cyane kwiga kuko bituma umenya, maze ukazabaho neza.

Umudamu wambaye ikanzu y'umweru, arigisha. Ni ngombwa ko iyo wigisha uba ufite ibitabo kandi ukigishiriza imbere ku kibaho. Ni byiza ko abana wigisha bakurikira kandi ukabaha uburere bukwiye.

Abantu batandukanye barakora ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, iyo abana bamaze kwiga ni ngombwa ko bagira umwanya wo kuruhuka, kugira ngo bashyire ubwenge ku gihe batekere neza bityo, amasomo ndetse n'ubumenyi bukomeze kuge...

Abana bo mu mashuri yisumbuye, bigaragara ko bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'umukara, bigaragara ko baje kwiga kandi bakeneye umuntu ubizi ubafasha.

Ku kigo cy'amashuri hariho abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, aba banyeshuri biragaragara ko basoje kwiga mu mwaka wa gatandatu.

Icyumba cy'abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'uburu n'umukara. Aba banyeshuri biragaragara ko bari ahantu batojwe kandi bazi icyo gukora.

Abanyeshuri bakunze gusobanurirana, bakungurana ubumenyi kuko ariho babasha gufata, maze ibyo bize bakabikora mu kizamini maze bakabasha gutsinda, bakazabona amanota yo kujya kwiga muri kaminuza.

Ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi, bikunze kuba bikoreshwa n'abantu benshi batandukanye kugira ngo batange serivisi nziza.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'umweru ndetse na kake. Aba banyeshuri biragaragara ko barimo gukora amasuku ku birahure ndetse bari gukora amasuku ku madirishya.

Ikibaho, ibikoresho bitandukanye by'ibipapuro ndetse n'intebe. Aha niho usanga abarimu bajya kwitegura, ibi kandi bikanafasha gutanga amasomo neza, bityo abana bakagira ubumenyi.

Ahantu abanyeshuri bigira uhasanga n'ibikorwa bitandukanye byo kwidagadura ndetse uhasanga n'ibiti byiza bikurura akayaga ku banyeshuri. Ni ngombwa ko abanyeshuri bidagadura kugira ngo baruhuke mu mutwe.

Abanyeshuri batandukanye barava ku mashuri, ni byiza ko abanyeshuri iyo basoje amasomo bava ku mashuri maze bakajya gufasha imirimo ababyeyi babo ndetse bakabona n'igihe cyo gusubiramo amasomo yabo.

Umwana arasoma igitabo. Ni byiza ko abana basoma ibitabo kuko bibafasha kwiyungura ubwenge butandukanye. Iyo usoma ibitabo ubona ubwenge butandukanye, bugufasha gukora ubushakashatsi bwawe.

Umwana arajya ku ishuri agafunga ikirahure cy'imodoka. Ni ngombwa ko abana iyo bagiye ku ishuri batwarwa n'ibinyabiziga n'ibindi byabigenewe, hirindwa ingaruka z'uko bashobora kwangirika mu nzira.

Ku ishuri ni ingenzi cyane abana bakwiye kujyayo maze bagahabwa ubumenyi, ni ngombwa kandi kuhashyira indabyo n'ibimera n'ibiti bitandukanye, bikurura akayaga keza gafasha mu gutuma abana bagira ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura, bigaragara ko ari abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakunda kuhakorera. Iki kigo kandi kiri ahantu mu ishyamba.

Ihuriro ry'abanyeshuri baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, bigaragara ko babigize umuco kwiga kandi biga ubona ko babikunze.

Icyumba kirimo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye. Abanyeshuri bafite mudasobwa imbere yabo, bigagara ko bari kwiga kandi bakeneye ubumenyi bw'ibanze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iyi nyubako yigamo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye.

Icyumba abandi banyeshuri basubiramo ibitabo, bakabasha kwiyungura ubumenyi ni yo impamvu usanga aba babikora baba bazi ubwenge, kuko bahigira byinshi kandi bikabafasha.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye. Iki kigo kandi kiriho inzugi zikomeye, bigaragara ko ari ikigo cyiza kandi kiriho abarimu bazi kwigisha.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umuhondo n'umweru, barimo kwigira kuri mudasobwa. Bigaragara ko bashaka kwiyungura ubumenyi maze bagatera imbere, bityo bakazateza n'igihugu imbere muri rusange.

Ikigo cy'amashuri aho abana bajya bagahurira n'abarezi babo bakiga ku bintu bitandukanye, bibafasha kwiteza imbere, niho usanga bungukira ubumenyi butandukanye bikazabafasha kwiteza imbere mu gihe kizaza.

Abantu batandukanye biga ibijyanye n'ubumenyingiro n'imyuga, ni byiza cyane kuko bibafasha kwihangira imirimo maze bakabona amafaranga aho gusaba akazi ahubwo nabo bakagatanga bityo bakaba ba rwiyemezamirimo.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru, isakaje amabati. Iyo nyubako iri ahantu mu ishyamba, bigaragara ko haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Ahantu abana bigira uhasanga ibikorwa bitandukanye ndetse niho bajya bagahurirayo n'abarezi babo, maze bakabigisha haba ibijyanye n'indirimbo haba n'imikino itandukanye ibafasha kubaho neza no gukuramo ubwenge.

Ikigo cy'amashuri kirimo intebe, harimo abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano ya kaki. Aba bana rero urabona ko bajijutse kandi bazi icyo gukora.

Abanyeshuri benshi bakunze kugaragara, bambaye imyenda y'iniforome y'ubururu ndetse na kacyi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, bigaragara ko iyo modoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Haruguru hari ibidukikije byinshi by'ibiti, ubona ko bitoshye.

Abayobozi benshi usanga bahuriza hamwe abarimu n'abanyeshuri, bakabaganiriza ku bikorwa bijyanye n'iterambere babategurira, uburyo bagomba kwitwara kugira ngo bigende neza.

Abanyeshuri iyo bagiye kwiga bakunze guhura n'imbogamizi ijyanye no kuba badafata amafunguro ku gihe ndetse no kutayabona muri rusange, usanga barakaniye.

Imodoka ya bisi itwara abanyeshuri, bigaragara ko iyi modoka ari nziza kandi ifite ibara ry'umuhondo n'umweru.

Akenshi usanga abayobozi, bakunze kuba bari mu biro byabo, akaba ari ho abaturage babasanga. Niyo mpamvu usanga igihe babakeneye batababona, baba bari mu kazi kabo.

Ikirango cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, kiri hejuru ku kigega. Kino kirango kiri hagati mu kigo, aho waba uri hose uba ukirereba.

Akenshi usanga abubatse, bakunze kubaka inzu zikomeye, bityo bakazazifashisha mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'ishuri cya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, kirimo abanyeshuri benshi bari kwiga, bigaragara ko batarasoza amasomo yabo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo umutaka ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa, yaba mu guteka ndetse no gukora indi mirimo.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko iyo wangije ibidukikije uba wiyangije nawe ubwawe. Akaba ari yo mpamvu abantu bashishikarizwa kubahiriza amategeko n'amabwiriza atangwa n'inzego za Leta.

Umugabo uri mu cyumba ubona ko ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo abashe kumvikana n'abandi bamuteze amatwi. Ni mu cyumba giteye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, bigaragara ko yishimye.

Icyumba kirimo abayobozi bari mu nama, bigaragara ko bari guhabwa imbwirwaruhame, aba bayobozi kandi bambaye neza, bigaragara ko bari mu bikorwa bitandukanye by'ubushakashatsi.

Imodoka ebyiri zifite amabara y'umweru n'ubururu, hirya hari ibiti byinshi ubona ko ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, aho izo modoka ziparika kandi ari iz'abayobozi.

Inyubako abantu bahuriyemo bagiye kwishimira ko bageze ku yindi ntego kandi bafite ibyiza bagezeho.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko iyo utunganyije icyumba cyawe, ibintu byose ukabishyira ku murongo, iyo ukinjiyemo usanga hasa neza.

Inyubako irimo abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, ubona ko aho hantu ari heza kandi ari hanini.

Igitanda kiriho matera nziza, hirya yacyo, hari ibindi bikoresho byo mu nzu. Iki cyumba gisize irange ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Rimwe na rimwe usanga habaho imihanda yamapave ituyobora mu nzira, hakaba kandi igihe usanga nta muntu ukuyobora uhari ukiyobora.

Umuhanda wa kaburimbo ushamikiyeho utundi duhanda duto, hirya hakaba hari ishyamba, bigaragara ko ari ryinshi cyane. Ni ahantu heza.

Iyo abantu bari mu bushakashatsi bakunze kwiyungura ubumenyi, bityo bikabafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri rusange. Akaba ariyo mpamvu umuntu ajya ku ishuri kugira ngo yunguke byinshi.

Inyubako isize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, aho usanga byarabaye umwuga.

Icyumba ubona ko kiberamo inama ibirori amahugurwa ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, bigaragara ko ari inzu za leta ndetse zihabwa abantu bagaherwamo serivisi.

Intebe yifashishwa mu kwigishirizaho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bimurika amashusho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri, ni ingenzi cyane kwiga kuko bifasha abantu kubaho neza mu buzima bwiza.

Inyubako iteye irangi ry'umweru n'umuhondo, isakaje amabati atukura, bigaragara ko ari nziza kandi itagombeye amafaranga menshi.

Icyumba kirimo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umyeru ndetse n'imikara, bigaragara ko ari umwarimu uri kwigisha kandi abagezaho imbwirwaruhame yabateguriye.

Inyubako isize irange ry'umuhondo ndetse n'umukara, ikaba ifite inzugi zifite ibirahure kandi zigaragara neza. Akaba ari inzugi zikomeye kandi zigezweho.

Icyumba gisashe neza, kiriho matera nziza ndetse na mudasobwa hejuru ya matera, ubona ko ari ahantu heza, harara abashyitsi.

Hari igihe usanga mu nyubako runaka habayemo igikorwa kitari cyiza, usanga umuntu mwari muri kumwe aradutengushye, ariko ibyo bibaho nta kundi wabigenza.

Muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, hari inyubako nziza ziteye amatsiko. Hari ishyamba, hari ibiti byiza ndetse hari n'umutekano.

Icyumba kirimo ibikoresho nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi. Ni ahantu hatuma ushobora kuruhukira maze ugakora ibikorwa byawe wishimye kandi utuje.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, ukunze gusanga bakeye kandi ari bakuru. Niyo mpamvu baba bazi ubwenge.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu. Iyo nzu kandi harimo ameza, utubati kandi aha hantu hasize irangi ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Icyumba kiberamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ikoranabuhanga. Akaba ari ahantu heza, hari ibikoresho byinshi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'ameza, intebe n'utubati, icyumba kandi biragaragara ko kiberamo ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bihuza abantu, bityo bakabasha kungurana ibitekerezo.

Icyumba giteguye neza, ubona ko ibintu byose birimo biri ku murongo kandi abantu bakijyamo bakumva baguwe neza.

Abaganga benshi bambaye imyenda yabugenewe, bakoresha mu gihe bari kuvura. Bambaye kandi uturindantoki, bagenda bafatisha imiti itandukanye.

Icyumba gisashe neza, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari icyumba cy'umunyeshuri wiga muri kaminuza kuko kirasa neza kandi gifite isuku ihagije.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane by'ubucuruzi ndetse no gusomeramo ibitabo. Ni ahantu ubona ko ari heza kandi harisanzuye.

Inyubako isize irange ry'umuhondo ndetse n'umukara. Iyi nyubako yigiramo abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Akaba ari inyubako nziza rero, ubona ko yubatse neza.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye, imyenda ndetse hirya hari igitanda kigeretse kabiri. Hagaragaraho abandi bantu baharara kandi benshi.

Abanyeshuri benshi bakunze kwiga ariko bagataha batinze. Hari amacumbi y'abanyeshuri ari ahantu hepfo ya resitora.

Umuganga uri mu cyumba cyabugenewe, ari gutegura imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kugira ngo abashe kwita ku barwayi kandi bakire.

Icyumba gitangirwamo serivisi zitandukanye, harimo ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu, ahantu ni ahantu heza, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bijyanye no kwiga.

Icyumba aho usanga mudasobwa zitandukanye, ni ingenzi cyane kubera ko bifasha abana kwiga neza, bigira ku ikoranabuhanga maze bigatuma babona ubwenge n'ubumenyi bwinshi.

Ni ingenzi cyane ko ahantu hatandukanye hagaragara ibiti bitandukanye. Ibyo biti ni byo bikurura imvura, abantu bagahinga, bakeza. Ni byo kandi bitanga umwuka mwiza, abantu bahumeka maze bakiga neza.

Ahantu abantu bigira, uhasanga abanyeshuri batandukanye. Ni ngombwa kandi ko uhasanga ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibyatsi kuko bifasha abanyeshuri kubona umwuka mwiza bahumeka maze bakiga neza.

Ahantu hatandukanye hahurira abanyeshuri, usanga hari n'amacumbi. Ni ngombwa kugira amacumbi y'abanyeshuri, kuko abafasha kuruhuka no kubaho neza, bityo bakagira ubuzima bwiza, maze bakiga neza.

Imashini iri ku meza hamwe n'igitabo. Ni ingenzi kugira mudasobwa uri umunyeshuri kuko bifasha mu gusubiramo amasomo, gukora ubushakashatsi, gukora imikoro n'ibindi bikorwa bitandukanye bigendanye n'amasomo.

Ahantu hatandukanye haba abanyeshuri usanga hari amacumbi, amacumbi naho bacumbika maze bakabafasha kubaho baryama ndetse basubiramo amasomo yabo, bakora ibikorwa bitandukanye by'amasuku n'ibindi.

Icyumba ubona ko kirimo ibitabo byinshi cyane, bipanze muri etajeri. Biri ahantu mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo n'umweru ubona ko ari heza.

Abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda myiza, bigaragara ko aba bayobozi babigize ihame kwitabira inama za buri cyumweru.

Icyumba kirimo utubati ndetse n'ameza menshi ubona ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'ububaji, aho bakora ibikoresho byo mu nzu bakabikugezaho ku giciro gitoya.

Inyubako irimo inzugi nziza zikomeye, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, hamwe n'irangi riteye muri iyo nyubako.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye nk'ameza n'intebe, ushobora kuba wabikora ariko ntumenye ibyo aba ari kuvuga kuko yihutira kuvuga ibintu byinshi.

Akenshi usanga abanyeshuri bafashanya bagatsinda amasomo, niyo mpamvu usanga iyo umuntu yagenze wenyine atabona umusindagiza.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibyo mu nzu. Iki cyumba kirimo intebe, utubati ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.